Abantu bicaye imbere y'inyubako bisa naho bari mu nama, imbere hari umugabo uhagaze urimo kubaha ikiganiro ku nsanganyamatsiko yateganyijwe, bose baricaye ku ntebe z'imbaho imbere hari ameza.

Abantu bari mu nyubako bigaragara ko baje gusenga harimo abapfukamye n'abandi bahagaze, bose bambaye udupfukamunwa bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo cya Kovide cumi ni'cyenda.